Umubyeyi uri muri arimantasiyo uri kuri telefone, umusore uhagaze muri arimantasiyo, amandazi ari mu kabati, ijage iteretse ku meza, ji ziri mu kabati, ameza ateretseho boyira y'amata